Izi ngizi zonyine bazitaga burushete ,niba umuntu ashaka kurya nyine neza inyama bazishitaga ku bintu by'imishito cangwa se utuntu tw'uduti, barangiza bakarambika hejuru y'amakara cangwa si hejuru y'umuriro.

Ahangaha ho ni mu kabari umuntu ajaga kunywera icupa, cyangwa se ajaga kunywe inzoga ,cyangwa se agafanta muge. Igihe ashaka nko kwishima cyangwa se ashaka nko kuruhuka mu mutwe niho abaga agiye kugafatira.

Mu kabari cyangwa se muri bare ni ahantu hacururizwa ibintu byinshi bitandukanye. Inzoga, ibyo kurya, ibyo kunywa cyangwa se harimo n'ibintu bijyanye n'amaroji, nko mu gihe bwakwiriyeho cyangwa se udafite ahantu ho gutaha, ukagenda ukahakodesha akaba ariho urara.

Ifi ni inyama ikunzwe hano mu gihugu cy'u Rwanda bitewe n'ukuntu iryoha kandi ikaba igira intungamubiri zigiye zitandukanye. Hari abantu benshi baba bari kwitiranya ifi n'isambaza, ariko biratandukanye cyane.

Hano ngaha hajaga haritwa ahantu ho muri bara nk'iyo nyine umuntu abashije kuba ashaka gufata akantu kajanye n'agacupa, ni umungumu ahita aja bakabasha kukamuhereza cangwa se ashaka kunywa n'akantu kajaanye n'agafanta.

ibi ngibi byo ni ibitoki batetse nyine ariko bakabiteka bidatonoye ,babyitaga amaganda g'ibitoki niko bajaga baragita, nyine iyo utetse ibitoki wabimeresheje babyitaga amaganda.

Mu kabari ni ahantu hacururizwa ibintu bijanye n'inzoga gusa , ntago wagenda nk'ugiye ngugiye kubarizamo ibintu bijyanye n'amaji ,ariko hari n'igihe yacururizwamo n'amaji, hakaba habamo n'ibintu bijanye n'amarogi ahantu ho kurara mu gihe bikwiriye.

Ahangahaho ni hantu mu kabari nyine bacuruzaga ibintu bijanye n'inzoka z' amarikere, ibyuma, inzoga nyine zicaga mu bwonko nyine ugapfa ukarangira bitewe no gusinda kuko izo nzoga zirasindishaga kubera volute zazo.

Ahangaha ni ahantu bacuruza ibintu bijyanye n'imyenda ibitambaro, cyangwa se mu gihe ushaka kudodesha, ugana ahangaha nyine bakagufasha kuko baba bafite ibintu ibitambaro bijaga biritwa ibikupe.

Agahirikisho ni agati baba barabajije kugira ngo babashe kugira, kugirango ngo babashe gukora capati neza, mu gihe zitameze nk'uko babishaka.

Aha ho ni mu duka rijanye n'ibintu bicuruzaga amavuta y'ubwiza, imisatsi, ibintu bijanye n'amarinete, mbese imyenda myiza igezweho, amaparufe n'utundi tuntu twinshi cane.

Nyine hano ni ahantu muri bare nyine haba ibintu bijyanye n'ibyo byo kunywa byo kurya, inzoga fanta，ibintu byinshi bigiye bitandukanye n'amaroji ahantu ho kurara mu mugihe bukwiriyeho se cyangwa uri kumva udashaka gutaha ukirarira muri iyo roji.

Aho ng'aho ni mu duka ricuruzaga ibintu bigiye bitandukanye, nk'amatelefoni cangwa se amaradiyo, mbese ibintu bijanye na elegitoronike, amakuteri, ibintu byinshi cane harimo n'amablutufu.

Abakanishyi b'amagare ni abantu bakora amagare mu gihe yagize ikibazo, yapfuye, cyangwa se bagafasha ba nyirayo kuyabagurira, cyangwa se kuyakora, cyangwa se no kuyakodesha.

Butike n'inzu icururizwamo ibintu byinshi bitandukanye, harimo ibikoresho byifashishwa mu nzu, harimo ndetse n'ibikoresho byifashishwa mu kubaka cyangwa se ibyo kurya cyangwa se ibyo kunywa.

Ayangaya ni amabutike gakorerwagamo ibintu bitandukanye by'ubucuruzi harimo: gucuruza ibintu bijyanye n'amagaze, cyangwa se amayinite, cyangwa se ibintu by'amaji, cyangwa se ibintu by'amakara, imineke, amavoka, ibintu bitandukanye.

Umusego ni kimwe mu bikoresho bikoreshwa, kugirango niba uburiri butameze neza, buse n'uburinganiye uze kugufasha kugira ngo ubashe kweguka wumve umerewe neza.

Ahangaha ho ni muri butike bacuruzaga ibintu bigiye bitandukanye hari mo, amaji, amakaramu, amapiyekora, amabike ndetse n'ibindi bintu bitandukanye hari mo, n'ibijumb, ibirayi, ibishimbo, amashaza,

Amatibe ni mu bimwe mu bikoresho bakoresha bari kubaka cyangwa se bari gukora inzugi, amadishya, ibintu bijyanye n'amageti cyangwa se mu gihe bari gukora ibisenge by'inzu nabyo hari igihe bifashishije ibintu bijyanye n'amatibe.

Mu iduka ry'imyenda ni ahantu hacururizwa ibintu bijyanye n'imyenda gusa n'inkweto ntabwo waba ugiye kubaza ibintu bijyanye n'amasima cyangwa se ibindi bintu nk'imbuto ngugiye kuzibariza mu iduka ricuruza imyenda.

Butike ni ahantu hacururizwa ibintu bijyanye n'ibyo kurya cyangwa se ibyo kunywa harimo imineke, ibintu bijyanye n'imbuto ,imboga cyangwa se waba ushaka ibintu cyo kunywa fanta ,byeri,...

Nyina hano ngaho ni muri supamaketi bacuruzaga ibintu by'ibiribwa canga se iby'binyobwa mu gihe ushaka kugira ngo urebe icu ufata wajyera hano muri supamaketi bagahita baguhereza baga ari ibiryo bihiye canga se ibidahiye wihitiragamo bitewe n'amahitamo yabo.

Abanyonzi ni abantu bakora umwuga wo gufata abantu bakabavana ahantu hamwe bakabajyana ahandi, bakabishyura amafaranga, ariko mu gihe runaka n'igihe bafashe ibintu cyangwa se abantu bakabatwara.

Aha ng'aha honyine ni ahantu bacuruzaga ibikoresho bijanye no mu mawese nyine y'amatuwarete, ukuntu nyine biriya bikoresho waja urabikoresha ugiye ku bwiherero cangwa se mu bindi bikorwa byawe, ni hariya ushaka kubigurira biriya bikoresho.

Iri ngiri ni iduka ricuruza ibintu bigiye bitandukanye. Harimo ibitenge, amasafuriya, imbabura, imikubuzo, imikoropesho, utudahisho n'utundi tw'udusafuriya. Mbese ibintu byinshi cyane, harimo n'imifuka y'imiceri, utunovida, imyunzani.

Agurupi ni ahantu ujya bakaguhereza ibintu byinshi bitandukanye, harimo nk'ibicuruzwa cyangwa se imvaruganda zo gutera mu bihingwa byawe mu gihe ushaka kugira ngo bikure kandi bimere neza.

Ikigo gicuruza ibintu bijyanye n'amagi n'amaforumaje n'inyama z'inkoko, n'ibindi byinshi bikomoka ku nkoko harimo n'ifumbire cyangwa se n'amagi.

Resitara ni ahantu ujya bakaguha ibyo kurya cyangwa se ibyo kunywa. Harimo ibiryo bijyanye cyangwa se imiceri cyangwa se inzoga cyangwa se ibintu bijyanye n'ahantu ho kurara.

Muri bala ni ahantu hacururizwa ibintu bigiye bitandukanye, harimo ibindi bintu bijyanye n'inzoga ,cyangwa se waba ushaka n'icyo kurya ,bakaba bacuruza nk'ibintu bitandukanye harimo ibirayi byo mu mavuta, inyama , nk'akabenzi ,cyangwa se inyama z'inka cyangwa se iz'intama biba biterwa n'izo ushaka.

Muri butike ni ahantu hakorerwa ibintu byinshi bitandukanye, harimo gucururizwamo ibintu byinshi: amawayini, inzoga, amakara, cyangwa se n'ibindi nk'amaji.

Aha ng'aha honyine ni igihe bukwiriyeho se cyangwa udafite ahantu ho kurara uhita wifashisha zino nzu bazitaga loge. Abantu nyine bashaka kurara aha hantu bahita bagenda bakaharara.

Muri resitora ni ahantu hacuruzwa ibintu bijyanye n'ibyo kurya, ibyo kunywa harimo ikirayi cyo mu mavuta cyangwa se ibiryo, umuceri, firiti n'amakaroni cyangwa se n'isambusa.

Aha ngaha ni amaduka acuruza ibintu bijyanye n'amamatera ya Rwanda fomu. Bakora utuntu tw'utumeza dukozwe mu mbaho, ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Hano muri ano mazu bahacururizamo n'ibindi bintu bigiye bimeze neza cyane.

Izi ngizi zo ni inzu zicururizwagamo cyangwa se zikorerwagamo ibintu bijyanye n'amabutite. Ushaka gucuruza ibintu bitandukanye harimo amaji, amabiswi ni nko muri aga mazu ushaka gukoreramo.

Ahangaha ho ni muri butike bacuruzaga ibintu bigiye bitandukanye, ibintu bijanye n'amaji, amakara, ibirayi ibintu byinshi cane harimo amapampegisi, ibirayi ibijumba, ibitoke...

Utwongutwo nyine batwitaga imyuko, nyine nk'iyo ushaka nyine kuja urahita uvanga ibijyo byihuse kandi neza bitagize ikibazo na kimwe, ukoreshaga umugu mo bitaga umwuko, cangwa se uri kumva hari ikindi kintu urakoresha, uradahisha uhitaga ukoresha ugu mwuko.

Mu isoko ni ahantu hajya hacururizwa ibintu byinshi bigiye bitandukanye, harimo ibikoresho byo mu nzu ibikoresho byo kubaka ibintu byo kurya nk'imboga cyangwa se amakawunga, imiceri.

Muri butike ni ahantu hacururizwa ibintu bigiye bitandukanye harimo nk'amavuta yo kwisiga ibikoresho by'abana harimo nka za pampegisi, hakaza amakuvureri abantu bakoresha bari kwiyorosa.

Ahangaho bajaga barahita muri hoteli, ni ahantu nyine iyo udafite ico kunywa, ico kurya baragufashaga bakakiguhereza waba ushaka ahantu ho kurarara naho bukwiriyeho bagahita bahaguhereza akabariho urara.

Muri butike ni ahantu bijya bacururiza ibicuruzwa bigiye bitandukanye, harimo ibintu bijyanye n'amabiswi, imineke, ibintu byinshi cyane, harimo imyenda, harimo ibikoresho bakoresha mu bintu bijyanye n'ubukanishi, amaturunevisi, amapense.

Muri butike rero ni ahantu hacururizwa ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Harimo ibikoresho bitandukanye nk'ibikoresho by'ubwubatsi, ibikoresho by'abafundi nk'inyundo n'umwiko , amanivo n'ibindi.

Iri ni iduka ricuruzaga ibintu by'imyenda z'abageni, imyenda z'abantu bagiye gukora ibintu by'ubukwe, n'ibindi bitandukanye, nk'abantu bashaka gukoresha amapati bashaka gukodesha amakositimu n'udutimba.

Aha ng'aha nyine bacuruzaga ibintu bijanye n'amata gajanye n'Inyange. Nk'iyo nyine uri kumva ushaka amata, uragenda bakaguha amata gameze neza batetse, kadafite ikibazo na kimwe utaragera iwawe ngo uhite uteka amata ugiye kugira ute.

Akangakaga nyine kabaga amazu gabacuruzi. Bacuruzagamo ibintu bigiye bitandukanye. Washaka wakoreramo kenkayeri, kubera ari ku muhanda cangwa se ukareba n'ibindi bintu ukoreramo nk'amasaro. Cangwa se ugashiramo ibintu bijanye n'irembo.

Ahangaha ho baza muri roge. Nk'iyo bukwiriye cangwa se iyo udafite ahantu ho kuja urarara, ubaga uhakodesheje ukaba urahifashishije. Muri izo minsi udafite ahantu ho kurara, ukaba uraharara, habagamo ibintu byose, bakuzaniraga ibyo kurya, nimba udafite amafaranga bakaguha n'aho kurara.

Muri butike ni ahantu hacururizwa ibintu bigiye bitandukanye, harimo ibintu bijyanye n'imineke, amavoka, ibikoresho byo mu nzu nk'amasafuriya, cyangwa se n'ibindi bijyanye nkabyo nk'ibiringiti, n'ibindi byinshi.

Muri saro cyangwa se ahantu bogosha， ni ahantu batanga serivisi zitandukanye， nko kogosha ibintu bijyanye no kwita ku misatsi，cyangwa se n'inzara，cyangwa se n'abantu bari buge mu bukwe，bakabakorera ibintu bijyanye na makiyaje.

Mu iduka ni ahantu hacuruzaga ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo ibintu bijyanye n'amarange, ibitiyo, inyundo z'abafundi cyangwa se n'inyundo z'abatekinisiye cyangwa se amaturunevisi n'amapensi.

Bara cyangwa se Hotel , ni ahantu ushobora kwifashisha ukajya, bakagufasha bakaguha ibyo kurya cyangwa se bakaguha icyo kunywa , zanaremba bwaba bukwiriyeho bakaguha ikintu kijyanye n'icumbi ukabaha amafaranga.

Amazingi modani rimitedi gesite hawuzi ni hoteri ifasha abantu gutanga serivisi ziyjanye n'ahantu ho kurara, ibyo kunywa ndetse n'ibyo kurya mu gihe waba watangiriye kuhakoresha.

Hanongaho bajaga barakora umwuga wo kogosha abantu umusatsi kutamereye neza cangwa se umusatsi batari kwifuza cangwa se gusuka ibisuko by'abagore cangwa se kubatereramo ibintu bijanye n'amaporodowi byinshi cane.

Iduka ricururizwamo ibikoresho byo mu nzu, ricuruza ibintu bijyanye n'utubati tw'amasahani, ibiringiti, udutebe tw'abana n'utugare, amapo n'imisego, ibikombe, amasahani, amafoki.

Aha ng"aha ho ni ahantu nko mu gihe uri kumva ushaka nko kujya gusura inyamaswa cangwa se ushaka gusura ahantu hariya mu Kinigi mu misozi, wegeraga ino kampani igahita ikugezayo ukajya kuhasura.

Muri butike ni ahantutu hashobora gucururizwa ibintu byinshi bitandukanye, ku buryo ushobora no gukoreramo ibintu bijyanye na resitora, cyangwa se ugakoreramo ibintu bijyanye na kenkayori.

Aha ng'aha ho ni muri butiki ijaga iracuruza ibintu bijanye na kofi, icayi ,amacapati noneho n'ibindi bintu bijyanye n'amandazi, ibyayi ariko bakaba bagiraga n' ibindi bintu mbese by'amaji. Ntabwo wajamo ngo ubarizemo ibintu bijanye n'inzoga.

Muri banki ni ahantu ushobora gufata amafaranga yawe ukajyana cyangwa se ugafata amafaranga yawe ukajya kuyabikamo bakajya araguha inyungu ya buri kwezi cyangwa se ukajya kwakayo inguzanyo.

Hoteli ni ahantu hagufasha mu gihe bukwiriyeho ukaba wabasha kujya kwaka icumbi cyangwa se mu gihe watembereye ahantu ukaba udafiteteyo bene wanyu bari bugucumbikire, ujya kuri hoteli ukaba ukodesheje, akaba ariho urara.

Muri hotel ni ahantu wifashisha ukaba ubaye cyangwa se uba utuye mu gihe utabaye ufite ahantu ho kujya uraba uri cyangwa se urajya urarara.

Visita gesiti hawuzi, ni roge rero ifasha abantu mu gihe badafite aho kurara, cyangwa se nko mu gihe batembereye, nko muri aka gace ikaba yabafasha, kugira ngo babone icumbi byoroshye, kandi rihendutse.

Aha ni muri roje, abantu bajaga kurara mu gihe bubiriyeho se cangwa bashaka kuruhura mu mutwe, ni ho bahitaga bigira bakaja kuruhura mu mutwe cangwa se igihe adafite icumbi ahitaga aja hano muri roje akaba ari ho yirarira.

Muri butike ni ahantu bacuruza ibicuruzwa bitandukanye, harimo intoryi, inyanya, kokombure ndetse n'ibihaza, ariko ubu ibintu bijyanye na kokombure bakaba bavuga ko ari abagore bakunze kubyifashisha cane.

Iduka ni hamwe mu hantu hacuruza ibintu bigiye bitandukanye harimo ibintu byo kurya, ibyo kunywa, amaji, imigati ndetse n'ibindi bitandukanye harimo n'ibirungo bakunze gukoresha mu biryo.

Mu isoko ry'ibintu bijanye n'imbuto, nahantu hacururizwaga ibintu bijanye n'ibintu byo kurya ariko by'imbuto gusa, harimo ibintu by'imineke, hakazamo n'ibintu by'amaronja, imyembe.

Aha ho ni ahantu nyine bacuruza ibintu bijyanye n'imyaka, ingano, ibishyimbo, amasaka, ibintu bijyanye n'ibihingwa nyine by'ingano, amasaka, ibintu nk'ibyo.

Aha ngaha ho ni musoko ricururizwagamo ibintu bijanye n'imyaka. Bacururizagamo: Ibishimbo, imbungure, amasaka, ingano, ariko akaba ari ibintu bijanye n'imyaka gusa.

Ahangaha ho ni mu soko cangwa se mu duka bacururizagamo ibikoresho bijanye n'ibyo mu gikoni, harimo amabase amasafuruya, ibintu bijanye n'imyuko cangwa se imidaho kugira ngo bage barabasha, abantu gukora ibintu byabo neza.

Ni mu isoko ry'inkweto za bodaboda zitaba zifunze nka za zindi bita iz'ingozi. Izi ngizi zitwa bodaboda, bakarabiramo cyangwa se mu gihe umuntu atagiye kure ni two ahita yinyabikamo. Igihe adafite utundi two kwambara.

Aha ngaha ho ni mu isoko rijyanye n'ibintu by'ibirayi n'ibindi byinshi harimo n'ibijumba, ariko ntabwo hacururizwamo ibintu bijyanye n'ibintu byo mu gikoni nk'amasafuriya , cyangwa se amafoke. Hacururizwamo ibintu bijyanye n'ibirayi gusa.

Mu iduka bacuruza ibintu bya elegitoronike. Ibintu bijyanye n'amaposheti y'amatelefone n'amasharijeri, radiyo, amatelefoni ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye harimo ibirahuri cyangwa se n'amasisiteme cagi.

Pampegisi ni kimwe mu gikoresho ababyeyi bakoresha. Bashaka kugira ngo abana babo. Badasoba nko mu bintu bashizemo. Cyangwa se ibintu bari barimo gukoresha.

Inanasi ni urubuto ruryoha cyane, bitewe n'ukuntu rugira amazi menshi kandi aba arimo isukari iri hejuru, kandi rukaba ari runini, rukaba rupima hagati y'ibiro bitatu na bine.

Mu soko ni ahantu hacuruzwa ibintu bitandukanye, iby'ibiribwa, iby'imyenda, iby'ibikoresho byo kubakisha inzu, ibikoresho bijyanye no gukanika amamodoka cyangwa se insimbura z'ama.

Ibiduki ni igikoresho bajya bifashisha bagiye nko gushaka amazi cyangwa se bashaka kubikamo ibintu bijyanye n'amavuta cyangwa se umusururu ibintu mbese nko mu gihe batuye nk'ahantu umutobe nicyo bifashisha akaba aricyo batwaramo.

Iduka ricuruza ibikoresho byo munzu, cyangwa se ibikoresho bikoreshwa ahantu mu gikoni, harimo amajage, ibikombe, amasafuriya, ndetse amafoke cyangwa se n'ibiyiko.

Mu isoko ry'imbuto n'imboga, ni ahantu hacururizwa ibintu by'imbuto n'imboga gusa, inyabutongo, imiteja, karoti, inyanya, n'ibindi byinshi.

Aha ng'aha honyine ni mu soko habarizwaga ibintu byinshi cane. Nka guca wenda ukazana inyanya uje kuzigurisha, ibijumba, ibidodoki, ibishimbo, ibintu byinshi cane. Hano ni mu soko rya byose, amavuta iyo uyashaka, isukari, umunyu.

Muri botike ni ahantu hacururiza ibintu byinshi bitandukanye, harimo nk'ibintu bijyanye n'isukari, amapampegisi ndetse n'imikoropesho, imiceri, ibishyimbo, amaji.

Karoti ni uruboga bifashisha bashaka kugira ngo bakore ibintu bijyanye n'isosi, cyangwa se bashaka kugira ngo babashe kwivura, nk'umuntu urwaye ibintu bijyanye n'amaso yatukuye, kenshi na kenshi bamutegeka gukoresha karoti.

Mu isoko ni ahantu hahurirwaga n'abantu benshi batandukanye, baje kugurisha, baje kugura, baje gushimisha abantu, cyangwa se baje kwamamaza ibicuruzwa byabo.

Ahangaha ho nyine bacuruzaga ibintu bijanye n'ibigega mu gihe uri kubona ushaka ikigega cyawe, cyagufatira amazi. Ni ahangaha ujaga ubundi bakabiguhereza igihe ugatangira, ukacesitara ubundi amazi gawe, gagaja garaturuka ku mureko gagahita gaja mu kigega.

Mu isoko ry'imyenda bacururizamo ibintu bijyanye n'imyenda gusa, kubera ko ntago wavuga ngo urazanamo ibintu bijyanye n'inkwi, ibintu ngo bijyananyemo n'ibikoresho byubakishwa amazu n'amasima n'ibindi, hacururizwa ibintu by'imyenda gusa.

Imikati ni kimwe mu kiribwa gikunzwe twifashisha cyane, ariko bakaba bagikunda kugikoresha, nko mu gihe cya mu gitondo umuntu agiye gufata burekifasite, mbere y'uko ava iwe, akoresha umugati wenda n'icyayi.